Abagore babiri basa naho bafite icyo bari kwamamaza, bakaba bafashe icyapa kiriho amwe mu mabanki akorera mu Rwanda, iruhande rw'umugore wambaye amadarubindi hakaba handitswe mu magambo y'umweru agira ati:" Kanda akanyenyeri, gatanu, gatatu, rimwe urwego bitarenze iminsi itatu turakwishyura."

Umusore n'inkumi bari mu modoka nziza iri mu muhanda yerekera imbere, inyuma y'iyo modoka barimo hariho ibyapa bibiri, hariho ibiri mu mabara y'ubururu, icyapa kimwe kiri imbere yabo handitseho ngo turi kumwe. Icyerekezo cy'inzozi zawe.

Urujya ni uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Inzu bacururizamo ibijyanye n'ibiryamirwa, muri ibyo biryamirwa hakaba harimo imisego iri mu mabara agiye atandukanye ndetse hejuru y'iyo misego nonene hakaba hari bimwe mu mbuto birimo inanasi.

Abagabo batatu bafashe ku cyapa mu ntoki cyamamaza. Inyuma y'abo bagabo hakaba hari imodoka ebyiri zihagaze mu mbuga zisa n'umweru, inyuma y'izo modoka hakaba hagaragara ibiti by'amashamba ndetse n'amahema.

Imodoka ihagaze ahantu mu mbuga, yakije amatara y'imbere, isa n'umukara, ifite ikirahure cy'imbere kireberanamo, hejuru hari icyapa cyanditseho toyota n'andi magambo mu rurimi rw'amahanga, inyuma y'iyo modoka hakaba hari ibiti byinshi, ndetse n'ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi, n'ikirere cyererutse.

Abagabo babiri umwe w'umwirabura undi w'umuzungu umwera, umwera yambaye isaha ku kuboko ndetse n'ishati irimo amabara y'umukara n'umweru umwirabura yambaye ishati irimo ibara ry'umutuku niry'umukara afashe n'utugozi mu ntoki.

Abagabo babiri bafashe icyapa kiriho Ba mu ma mu nyuguti nkuru Ga ndetse na A, inyuma yabo hakaba hari imodoka binini bitwara imizigo bihagaze, ndetse hakurya hakaba hari n'izindi modoka ntoya zihahagaze. Inyuma y'izo modoka hakaba hari ibiti byinshi cyane. Hejuru hakaba hagaragara n'ikirere kiri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Urubuga rwo kuri murandasi rutangirwaho amakuru y'akazi ya leta, birerekana uburyo wakinjira ukoresheje imayili yawe ndetse na nimero ya telefone yawe ndetse ukaza no gukoresha ijambo banga.

Imodoka y'umweru ihagaze ahantu mu mbuga yanditseho Kigali imbere ku birango by'iyo modoka, inyuma y'iyo modoka hari ibyatsi byinshi bisa n'icyatsi ndetse n'ibiti byinshi.

Imodoka nini cyane zitwara imizigo ndetse n'ibindi bimashini biterura imizigo, insinga nyinshi cyane zinyuranyuranamo z'umuriro w'amashanyarazi n'ibiti byinshi cyane biri ku ruhande, ikirere cyijimye bisa naho bugorobye.

Abagabo babiri bafashe ibikapu mu ntoki ndetse n'ibipapuro byamamaza, inyuma y'abo bagabo hari imodoka ebyiri ziri mu mabara y'umweru n'amakara, inyuma y'izo modoka hari inzu ndetse naho ziparitse hejuru yaho harubakiye.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka, umugabo umwe wambaye ishati y'umweru afashe ku cyapa, undi afashe ku gitabo ndetse inyuma yabo hakaba hari imodoka iri mu mabara y'umweru n'ikirahuri kibonerana ndetse hakaba hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye.

Imodoka nziza yo mu mabara y'umweru n'ibirahuri byijimye by'umukara ihagaze ahantu mu mbuga, inyuma y'iyo modoka hari igiti gitwara amashanyarazi, inyuma y'icyo giti hari inzu isize irangi ry'umutuku ndetse ikikijwe n'ibiti byinshi.

Igice gitoya cy'umuhanda kigaragara ndetse gituranye n'akayira k'abanyamaguru, hakurya y'ako kayira k'abanyamaguru hakaba hari indabyo ndetse n'ipoto itwara insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'itara ryo ku muhanda. Hakurya hakaba hari ibyapa byamamaza ndetse n'inzu nini cyane. Mu mbuga z'iyo nzu hakaba hari imodoka zihahagaze ndetse mu kirere hakaba harimo igicu cyiganje.

Amafaranga y'u Rwanda igihumbi, kuri ayo mafaranga bakabatwereka imbere ndetse n'inyuma y'iyo note, kandi akaba yanditseho banki nkuru y'u Rwanda nk'ikimenyetso cyakoze iyo ayo mafaranga ndetse hakaba hari n'inkende hasi nk'ikirangantego kigaragaza iyo note.

Abantu bari ku murongo basa naho bategereje guhabwa serivise kuko mo imbere harimo undi wicaye utanga izo serivise imbere ye ku meza hakaba hari ibyuma by'ikoranabuhanga harimo na mudasobwa. Muri abo bantu hakaba harimo abafashe amatelefoni ndetse hariho n'abifashe ku inda. Ndetse hari n'abambaye amakote y'ubururu n'umweru ndetse n'uwambaye agapira k'umutuku.

Abagore babiri umwe witeze igitambaro cy'umukara n'umweru ufashe amafaranga inoti, yambaye igiteteyi arahereza amafaranga uw'imbere.

Inote yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara agira ati banki nkuru y'u Rwanda ndetse n'imibare ibihumbi bibiri muri note kandi hariho agaseke ndetse n'ikirango k'igihugu, k'igihugu.

Banki nkuru y'u Rwanda, ibihumbi bitanu. Hakaba hagaragara ingagi iri mu cyanya cyayo; ndetse hasi hakaba hari amafaranga ibihumbi bitanu mu magambo. Yo akaba ari amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda akoreshwa nk'ibihumbi bitanu, ndetse ku mpande hakaba hagaragara ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Amafaranga y'u Rwanda igiceri cya makumyabiri kirambitse ahantu hasi, muri icyo giceri hakaba harimo ibirangantego by'igihugu harimo agaseke, ikawa ndetse n',isaka hasi hakaba handitseho ayo mafaranga mu mibare makumyabiri.

Imodoka ihagaze ku mbuga ifite ibara ry'umuhondo; impande y'iyomodoka ihagaze abashinzwe umutekano ingabo z'igihugu; inyuma yaho hari inzu ndetse n'amatara yaka anyuranyuranamo ndetse hari n'akayira kazamuka haruguru kunzu.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bidasembuye birimo amata ndetse n'amazi, hakaba hari ibidomora biri mu ibara ry'umweru ndetse bifite ikirango cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru kivuga ngo gibu, iyo nzu kandi ifite urugi ruteye irangi ry'ubururu.

Inzu icururizwamo cyangwa se ikusanya ibinyobwa bidasembuye ndetse n'ibikomoka ku matungo harimo amata cyane cyane hakaba harimo abantu bafashe ibicuba bacubanura mata mu masafuriya yabugenewe.

Aho bacururiza ibibwa n'ibinyobwa bidasembuye byiganjemo imitobe ziri mu ducupa ndetse hakaba harimo n'imigati, intebe ziri mu mabara y'ubururu ndetse hakaba harimo umukobwa uri kubicuruza n'umugabo waje kubigura.

Ibikoresho byo mu rugo, bibaje mu mbaho ndetse hakurya y'ibyo bikoresho hakaba hagaragara agace gatoya k'amabuye asashe hasi aho birambitse ndetse hirya hakaba hari na none agace gatoya kagaragara k'ibyatsi iruhande rw'aho ibyo bikoresho birambitse.

Ibikoresho byo mu nzu harimo intebe nziza nini z'igezweho ndetse n'ameza, n'utundi dutebe dutoya hasi hakaba hasa n'ahari ibirahure ndetse n'ibitambaro inyuma bikikije amadirishya.

Urupapuro rusa ubururu ruriho intoki ziri kwandika kuri mudasobwa, hariho amagambo avuga ngo uburyo ki wakohereza ibintu kuri murandasi, ukoresheje mudasobwa.

Icyumba cy'ubucuruzi cyakira abantu kigizwe n'ibyo bicuruzwa ndetse n'intebe abantu bicaraho n'ameza, inyuma hari ibirahuri ndetse inyuma y'ibirahuri hagaragaramo indabyo zimeze nk'amakoma yo mu rutoki ndetse n'ibiti inyuma yaho.

Burije, amatara yo mu murwa ari kwaka, ndetse ikirere hejuru kirijimye cyane. Haragaragara umuhanda muremure ndetse n'ibiti biri aho ngaho, n'amazu menshi cyane, amenshi akaba acanye amatara.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya police, kikaba kigizwe n'amabara y'umutuku, umweru n'ubururu, kikaba kigizwe n'ibarangantego bibiri hari icy'u Rwanda n'icya police, ik'icyapa kikaba giteye mu busitani.

Inzu y'imyidagaduro ndetse n'aho abantu bafatira agacupa, muri iyo nzu hakaba harimo intebe zigiye zitandukanye ameza ndetse n'isakazamashusho irimo igaragaza amashusho, muri iyi nzu hakaba harimo amatara amanitse hejuru.

Inzu nziza iri mu ibara ry'umutuku inyuma y'iyo nzu hari ibiti bigufi bigaragara ndetse n'ikirere, imbere muri iyo nzu hari ibyatsi ndetse n'indabyo biri muri iyo nzu, iyo nzu ifite amadirishya ndetse n'imiryango bigizwe n'ibirahuri.

Icyumba kinini cy'imyidagaduro ndetse n'aho barira kiriho ibikoresho bitandukanye byo kuriraho, harimo intebe ndetse n'ameza n'amasahani n'ibirahuri banyweramo inzoga, muri icyo cyumba hakaba harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo insakazamashusho ndetse n'amatara meza.

Ibikoresho byo mu nzu harimo ameza ndetse n'intebe, hakurya hakaba hagaragara imisozi ndetse iriho ibiti n'amashamba n'ibyatsi, hakurya none hakaba hari n'amazu menshi ikirere kijimye.

Ni nijoro amatara arimo aramurika ndabona hari imodoka hasi nyinshi cyane zihagaze ndetse n'izindi zigenda n'ibiti birebire, hakurya hakaba hariyo inzu ndende y'umuturirwa ifite amabara y'umuhondo yiganje ndetse hejuru ikirere kirimo igicu, ijoro.

Icyumba biyakiriramo cyangwa se bateguriramo ibiribwa. Muri icyo cyumba hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, birimo ameza ndetse n'ibikoresho bashyiraho ibyo bariramo. Muri ibyo bikoresho hakaba harimo ibirahuri birimo imitobe ndetse hakaba harimo n'ibiribwa birimo imineke ndetse n'inanasi.

Ibikoresho byo mu nzu harimo intebe ndetse n'ameza, intebe ziri mu ibara ry'umweru ameza akaba arambitseho amasahani ndetse n'ibikombe biriho ibiryo ibikombe bikaba birimo umutobe, ndetse imbere y'iyo nzu hagaragara ikirere gisa neza ndetse n'amazu menshi.

Abagabo baca imbere y'inzu nini ngari iriho icyapa kigaragaza ibikorerwa muri iyo nzu ndetse impande y'icyo cyapa hari ingazi zizamuka zigana mu nzu hejuru ku ruhande rw'iyo nzu kandi hari indabyo ndetse n'ibiti ndetse n'imiryango yinjiramo mu nzu.

Ku biro hicayemo umugore ndetse n'umugabo, umugabo wambaye imyenda y'umukara yiganje ndetse n'isaha ku kuboko, umugore yicaye inyuma y'ameza ndetse ku meza hari igikoresho cy'ikoranabuhanga cya mudasobwa, hanze hari urugi rw'ibirahuri.

Inzu ndende y'umuturirwa ifite ibirahuri bisa n'umukara ndetse binabonerana, bimwe bikaba bifunguye. Hasi hakaba hari izina ry'iyo nzu. Ku ruhande hasi hakaba hari indabyo ndetse hejuru hakaba hari n'igice gitoya cy'igiti kigaragara. Hejuru hari ikirere gifite amabara y'ubururu gikeye.

Irembo ryinjira mu nzu nini ngari ndetse iryo rembo rikaba ririho ibikoresho by'ikoranabuhanga, bibuza abantu kwinjira muri iyo nzu ko babonye. Iyi nzu akaba ari inzu ndende y'umuturirwa, ifite ibirahure bibonerana ndetse ikaba ku ruhande hateye n'indabyo n'ibiti.

Inzu itangirwamo serivise z'ubwishingizi ndetse n'iz'amabanki, ikaba ifite icyapa cyamamaza ibyo iyo nzu ikorerwamo cyanditseho ba na ca ndetse n'ubwishingizi mu magambo yo mururimi rwo mu mahanga, hajuru kandi hakaba hagaragara ikirere kiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'igicu cy'umweru.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye bameze nk'aho baje kuka ibikorerwa muri iyo nzu bamwe muri bo bambaye udupfukamunwa nako hafi ya bose imbere hakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga biririmo mudasobwa ndetse nyuma hakaba ari n'ibyapa byamamazatse ibyo batanga.

Inzu ndende y'umuturirwa igizwe n'ibirahure bibonerana ndetse hasi mu mbuga y'iyo nzu hakaba hari indabyo zitandukanye ndetse n'aho bacururiza hasi. Hejuru hakaba hagaragara ikirere kitabona neza. Iyo nzu imbere yayo hakaba hari izina ry'iyo nzu byanditse mu mabara y'icyatsi.

Inzu ndende ya etaje ndetse ikaba iriho ibyapa bigiye bitandukanye bigaragaza icyo iyo nzu ikorerwamo buri muryango, iyo inzu ikaba igizwe n'imiryango myinshi imyinshi ikaba ifunze ndetse ikaba iteye amabara y'ubururu ndetse ikaba ifite n'ibirahuri byijimye, ku ruhande hasi rwiyo nzu hakaba hari abantu bicaye ku bicuruzwa n'amamodoka ahahagaze.

Umusore n'inkumi bameze nkaho ari abageni, umwe yambaye ikositimu ndetse umukobwa akaba yambaye agatimba n'imisatsi miremire, inyuma yaho hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi kirimo n'amagambo yandikishije ibara ry'ubururu avuga ngo:"Gera ku intego".

Inzu itangirwamo inguzanyo hakaba hari abantu bategereje guhabwa inguzanyo bari ku murongo ndetse n'abandi bahagaze bigaragara ko bari guhabwa amafaranga. Ndetse n'abandi barimo imbere muri iyo nzu, hari ibirahuri ndetse imbere yabo kuri abo bantu batanga serivise hakaba hari mudasobwa zitanga amakuru.

Icyumba gicururizwamo ibikoresho gakondo, hakaba harimo, ingoma, imyuko ndetse n'imitemeri, bikaba birambitse ku meza inyuma hakaba hari n'amashusho agaragaza ibyo abakera bakoraga, icyo cyumba harimo itara ryaka ndetse,

Inzu nini ikikijwe n'ibirahuri biyigize, ku ruhande rw'iyo nzu hakaba hari amapoto ariho amatara maremare, inyuma yayo hakaba hari igiti cy'inganzamarumbo ndetse hejuru hakaba hagaragara ikirere gisa n'ubururu, hasi hakaba hagaragara na none umuhanda.

Isoko cyangwa se iguriro ricuruza ibiribwa bitandukanye. Birimo ibinyamisogwe ndetse n'imboga zitandukanye. Harimo amajeri ndetse n'ibishyimbo, inyanya, karoti, intoryi, ndetse hakaba harimo n'abantu barimo gucuruza.

Isoko ry'ibiribwa n'imbuto ibyo biribwa bikaba harimo karoti ibitoki ndetse n'imbuto zitandukanye, harimo nk'inyanya n'ibindi birambitse ahantu ku mifuka ndetse n'imbaho.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye kandi hakaba harimo n'abaremye iryo soko, muri ibyo biribwa hakaba harimo amateke, igitoki, imyumbati ndetse n'ibirayi, ibindi bikaba bipakiwe mu mifuka, hakurya y'iryo soko hakaba hagaragara amazu y'ubucuruzi.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye, harimo umuntu urimo kubicuruza, akaba muri ibyo biribwa harimo inyanya, imineke, ibihaza ndetse n'ubunyobwa. Akaba hari ndetse n'ibindi biri mu bitebo ndetse n'ibisera.

Isoko nangwa se iguriro ryirimo umuntu ucuruzamo akaba acuruza ibikoresho by'ubugeni, harimo uduseke, ibikapu ndetse n'intebe z'ibishitsi. Muri iryo soko hakaba harimo abandi abantu benshi hirya ndetse n'amatara agaragara rikaba rinasakaye n'amabati.

Isoko rigezweho rya Nyabugogo mo hasi hakaba hari ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'urujya n'uruza binjira muri iryo soko ry'ubakishije amabati y'ubururu, inyuma yabo hakaba hari izindi nzu zisa n'umuhondo zigeretse zisa naho zicururizwamo.

Isoko bacururizamo ibiribwa bitandukanye birimo; urusenda, amavoka, ndetse n'ibihaza. hakaba hicayemo abagore ndetse n'abandi bahagaze baje kugura. Umuryango munini uri mu mabara y'ubururu, ndetse n'inzu isize irangi ry'umuhondo bigaragara ko na yo ari iy'ubucuruzi.

Isoko ricuruza ibiribwa harimo imbuto ndetse n'ibinyamisogwe. Harimo intoryi, inyanya, ndetse na karoti. Harimo abaguzi barimo kugura, abagore ndetse n'abagabo.

Imodoka nyinshi zirimo zibisikana n'abantu ndetse n'amamoto amazu maremare y'ubucuruzi ndetse hirya hari n'isoko rinini, inyuma y'iryo soko hari andi mazu menshi ndetse n'imodoka hari n'ibiti byinshi hirya yaho.

Iguriro cyangwa se isoko ricuruza ibiribwa birimo imbuto ndetse n'imboga, muri izo mbuto hakaba hagaragara ibipapayi, amavoka ndetse n'imineke ndetse n'inyanya n'ibinyomoro, hakaba hicaye n'umucuruzi wabyo utegereje abaguzi.

Isoko bagurishirizamo ibiribwa bitandukanye birimo imbuto ziganjemo zitanitse mu dusahani harimo n'umukobwa urimo kuzicuruza arimo azitandika mu mabakuri harimo amavoka, imineke ndetse n'ibindi.

Aho bagurira imyenda ndetse hakaba harimo n'abantu b'ingeri zitandukanye ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibikapu, imyenda y'abagore ndetse n'abamama bicaye bambaye imyenda y'imituku, hakurya hakaba hari n'abagabo baganira batembera muri iryo guriro.

Inzu icururizwamo ibikoresho by'abanyabukorikori muri iyo nzu hakaba harimo ibiseke, ibyibo, ibikapu ndetse hakaba harimo abantu baje kwihahira ibyo bikoresho harimo abagabo bafashe amaterefone ndetse n'andi bambaye ingofero.

Isoko rusange ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse nbanje kugura no guhaha ibyo bicuruzwa no kugurisha muri ibyo bicuruzwa twabonamo amashuri ibitunguru ndetse n'inyanya ku ruhande inyuma y'iryo soko hakaba hari utuzu duto duciriritse.

Isoko bacururizamo imbuto ndetse n'ibiribwa ,n'imboga bitandukanye. Harimo amashu imboga, ibitunguru ndetse n'inanasi inyuma hari kandi na karoti ndetse n'inyanya hariho n'ibyapa bigiye biriho ibiciro by'izo mbuto .

Aho bacururiza ibiribwa bitandukanye birimo inyanya, imineke, ibitunguru ndetse hakaba hicaye n'umugore urimo kubicuruza bisa naho agiye kwakira umukiriya afite abo ari kuganira nabo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, ndetse ukaba uturanye n'akayira k'abanyamaguru karimo abantu bari kugenda, ndetse hakurya y'ako kayira hakaba hari amazu menshi acururizwamo. Ndetse hakaba hari n'igiti gitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse kiriho n'itara riboneshereza abo mu muhanda.

Ikirere gisa n'ubururu gikeye nkaho'aho kidatanga imvura ndetse isoko ririmo ricururizwamo imyenda hejuru abantu bitwikiye imitaka myinshi ndetse n'abandi barimo gucagura imyenda inyuma y'iryo soko hari igiti gitwara amashanyarazi ndetse n'inzu zikikije inyuma y'inzu hari imisozi.

Ibase iteretse ku kameza ndetse n'indobo hagati y'umugabo n'umugore, umugore ufashe umwana witwikiriye n'igitambaro cy'umweru, hakurya y'uwo mugore hari undi mukobwa wunamye areba muri telefoni, ndetse no hagati yabo harimo ibase y'ubururu hasi mu ndobo harimo ibyo kurya bari kugura.

Icyamamarekazi mu rwanda kirimo kiririmbira abantu mu iserukiramuco rya sosiyete y'itumanaho mu rwanda ya ma ta na na, ifite amabara y'umuhondo mu birango byayo inyuma yayo hakaba hagaragara ibiti ndetse n'ibyatsi birimo insina.

Akazu gatoya gatanga serivise z'itumanaho za sosiyete imwe yo mu Rwanda mu magambo ahinnye bavuga ngo ni ma na na ta ndetse inyuma y'ako kazu gato hakaba hari amazu manini ndetse n'intoki n'ibiti, hakaba hagaragara n'igice cy'ikirere gifite akazuba gake.

Inzu iri mu mabara y'umuhondo yamamaza icyo ikorerwamo ndetse kuri iyo nzu ku ruhande hakaba hari insakazamajwi zikaba zihagaze imbere y'aho umuntu wambaye impuzankano y'abashinzwe umutekano inyuma y'iyo nzu hari abantu benshi barimo bigendera mu muhanda ndetse n'amazu inyuma yaho hagaragara ibiti ndetse ikirere cyaho kirasa n'icyijimye.

Ibinyabiziga bihagaze birimo moto ndetse n'abantu bazitwara n'abazigendaho. Muri abo bantu bakaba bambaye udupfuka munwa tw'imihondo bose kandi basa naho bishyura. Inyuma yaho hakaba hari icyapa ndetse n'ubyatsi byinshi harimo urutoki, ndetse n'agace gatoya k'amazu agaragara.

Aho bacururiza serivise za sosiyete imwe muzikorera hano mu Rwanda ariyo m na n na t hakaba hari umuntu waje kushaka iyo serivise. Ndetse inyuma yaho haka hari n'andi mazu ucururizwamo ibinu bigiye bitandukanye, inyuma yaho kandi hari umuhanda w'igitaka.

Umuhanda uhagazemo ibinyabiziga bya moto, ibyo binyabiziga bya moto bikaba biriho amasanduku ndetse n'abantu batwaye ibyo binyabiziga, ku ruhande rwiyo mihanda hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti birebire cyane.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo: moto ndetse n'abatwazi b'izo moto imbere y'izo moto, imbere y'izo moto hakaba hari imodoka iri mu mabara y'umweru ndetse hari n'ibiti n'indabyo bikikije umuhanda, nyuma y'ibyo biti hakaba hari amazu nonene ahubatse asakaje amabati y'umutuku.

Umusore n'inkumi bahererekanya igikapu cyanditseho safi kiri mu ibara ry'umukara, ndetse iruhande rwabo hakaba hariho ikinyamitende ebyiri, moto, inyuma yaho hakaba hari ibiti bihakikije ndetse n'indabyo, inyuma y'indabyo hakaba hagaragara ikirere cyererutse.

Iyamamaza rikorerwa ku miyoboro y'ikoranabuhanga, kuri iryo yamamaza hakaba hagagaraho umuntu wambaye amadarubindi ndetse n'ibikoresho byo mu matwi. Imbere ye ku meza hakaba harambitse ibiryo bigiye bitandukanye biri ku masahane harimo inyama ndetse imboga n'imigati yo kurya.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ingofero ya moto yo kumurinda y'icyatsi, iruhande rwe hahagaze moto ndetse inyuma ye hari ibyapa byamamaza ndetse n'ibiranga amategeko yo mu muhanda, ndetse hakaba hari n'umuhanda nyabagendwa urimo abantu barimo kugenda ndetse n'ibinyabiziga, ku ruhande hakaba hari ibiti birebire bikikije umuhanda.

Ikirere gisa n'ubururu bwiganje ndetse n'umweru gakeya gisa n'aho gikeye, munsi haragaragara inzu ya etaje igeretse ndetse ifite inkingi z'umuhondo, hasi hakaba hari indabyo zirimo zikura ndetse n'imbuga ngari, iyo nzu ikaba ituranye n'izindi nzu ku ruhande nziza.

Icyumba gifite ibara ry'umweru, muri icyo cyumba kakaba harimo umugabo uhagaze, ateye intambwe ndetse arambuye amaboko n'ibiganza n'intoki, areba hanze acishije amaso mu birahuri by'inzugi bibonerana ndetse muri iyo nzu hakaba harimo amatara.

Umugore w'umwirabura n'umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, bari mu nzu, hari ameza ndetse n'intebe byiza cyane, harimo itara rimurika ku meza y'uruganiriro ndetse n'imitako inyuma yabo ku gikuta kigize iyo nzu.

Akayira gatoya gaca hagati y'amazu. Ako kayira ku nkiko zayo zombi hakaba hakikijwe n'ibyatsi. Ndetse imbere y'ako kayira hakaba hari andi mazu n'igiti gitwara umuriro w'amashanyarazi. Ayo mazu akaba akikijwe n'ingo zirimo zubakishijwe amatafari ahiye, ndetse urundi rukaba ruteye n'irangi ry'umukara ndetse n'umweru.

Inzu ndende ndetse n'uruzitiro ruzengurutse iyo nzu ndende y'umuturirwa. Iyo inzu ikaba igizwe n'ibirahuri by'imikara ndetse n'ibindi bibonerana mu madirisha, kuri iyi nzu hakaba hari icyapa cyamamaza icyo iyo nzu ikorerwamo ndetse hejuru hakaba hagaragara ikirere kirimo ubururu n'umweru bisa naho nta mvura gihatse.

Inzu iri ahantu mu mbuga hari ibyatsi bisa n'icyatsi ndetse ifite amadirisha afite ibirahure bibonerana ndetse n'inzugi ziteye ibara ry'umweru, inyuma y'iyo nzu hakaba hari uduce dutoya tw'ibiti tugaragara ndetse n'ikirere cyererutse.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba igizwe n'ibirahuri by'idirisha. Iyo nzu kandi ifite inkingi ifite irangi ry'umweru. Hakurya y'iyo nzu hakaba hari andi mazu abiri ateganye, hejuru yayo mazu haragaragara igice gitoya cy'ikirere gisa n'ubururu.

Irakodeshwa makumyabiri ka, inzu ifite inkingi z'umweru ndetse imbere y'iyo nzu hakaba hari imbuga, hagati ku nzu hari indabyo ziteye mu bikombe ndetse n'izindi ziteye ku ruhande, iyo nzu ifite urugo rukikijwe n'amatafari ndetse n'imiryango n'amadirisha by'ibyuma.

Ikibanza kirimo inzu irimo izamurwa yubakwa, icyuyubako ndetse n'abantu barimo kubaka iyo nzu ndetse inyuma y'iyo nzu akaba ari andi mazu menshi yo yubatse yuzuye kuruhande nanone rw'iyo nzu hakaba hari ibyatsi byinshi.

Inzu isakaje amategura y'umutuku ndetse hanze ku mbuga hari ururabyo rw'igit,i inzu ifite irangi ry'umukara ndetse n'inkingi z'umukara, hakurya y'inzu hari indi nzu igeretse y'umuturirwa.

Inzu nziza yubatse ahantu heza ndetse hari n'ikirere cyiza cyererutse. Iyo nzu ikaba inkuta zayo zisize irangi ry'umutuku ndetse n'amadirishya agizwe n'ibirahuri ndetse n'ibyuma biteye irangi ry'umweru. Iyo nzu kandi mu mbuga hari ibyatsi, ndetse n'akayira kinjira muri izo nzu.

Inzu ndende y'umuturirwa ifite ibirahure bibonerana by'umukara, ndetse hejuru hakaba hari n'ikirere kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, bisa naho kidatanga imvura, iyo nzu akaba imeze nk'aho ari ingururo.

Inzu nziza iteye amarangi y'umweru n'umukara, ndetse ifite ibirahure bibonerana bisa n'umukara n'inzugi zikozwe mu byuma. Mu mbuga y'iyo nzu hakaba hateye indabyo ndetse n'ibyatsi. Hirya y'iyo nzu hakaba hagagara izindi nzu zituranye na yo ndetse n'igice gitoya cy'ikirere.

Isoko guriro bahahiramo, ricuruza imyenda yo kwambara. Hakaba harimo abantu bari guhaha, ngetse n'abandi bari kugenda mu bikorwa bitandukanye. Ku ruhande hari imyenda icuruzwa, ndetse hari n'imiryango myinshi. Hari n'amatara hejuru, iryo siko umuntu agenda ireba.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye. Harimo imbuto, ibinyamisogwe ndetse n'ibindi bitandukanye, iryo soko kandi rikaba ririmo umuntu uri gutemberamo ashaka icyo yagura, ibyo biribwa hakaba harimo imineke, voka, ndetse n'amatunda. Hejuru y'iryo soko na none hakaba hacururizwamo ibindi bintu bitandukanye.

Aho bahahira harimo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibikapu by'abagore, harimo abantu benshi baje harimo abagabo n'abagore baje guhaha, inyuma y'ibyo bikapu hari itara rimurika ndetse harimo ibikapu bisa n'umukara ndetse n'imituku, harimo n'inkweto kandi z'abagore.

Inzu ndende y'ubucuruzi irimo amagorofa agiye atandukanye ndetse n'imiryango myinshi ikozwe mu birahuri, buri muryango ukaba uriho icyapa kigaragaza icyo ukorerwamo kuva ku muryango wa mbere, kugeza ku wa mbere, ibiti ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu kwamamaza.

Ibyapa byamamaza ndetse n'amazu menshi ari iruhande rw'ibyo byapa, inyuma y'icyapa hari ibiti byinshi ndetse impande y'ibyo biti hasi hari abantu bagenda mu kayira k'abanyamaguru gaturanye n'umuhanda mugari wa kaburimbo.

Inteko y'abaturage benshi bateraniye ahantu hamwe, ndetse hirya inyuma yabo hakaba hari isoko ryubakishije amabati y'umutuku hejuru hakaba hagaragara ikirere kirimo akazuba gakeye, ndetse inyuma hakaba hari n'ibiti byinshi.

Ibiganza by'umuntu witeye umwenda usa n'umuhondo, ibyo biganza bikaba bifashe ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, iyo karita ikaba iriho abantu batatu bari mu mutaka yanditseho mituwele ndetse ikaba iriho n'ikindi kirango cy'umukara kiriho amagambo y'ikigo cy'ubwishingizi.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse hejuru hakaba hari ikirangantego cy'icyo cyapa kiyanditseho ra sasa na b ndetse hakaba hari n'abantu batatu bari mu mutaka munsi yabo hakaba harimo amagambo yanditse ngo mituweri ubwisungane mu kwivuza.

Ababyeyi b'abagore bicaye ku murongo bafashe amakarita y'ubwisungane mu kwivuza ariho amafoto, ndetse inyuma yabo hakaba hari n'imyenda yo kwitera, bamwe muri bo bambaye ibitenge abandi barabyiteze, bambaye ndetse n'amashati n'imipira birimo ibisa n'umukara.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, iyi karita akaba ari iya mituweli, ikaba ifite amabara asa n'umuhondo ndetse n'ifoto iranga nyiri iyo karita. Mu by'ukuri iyi karita ikaba yandikishijweho n'ikaramu ndetse ahandi hakaba handikishijweho n'ikaramu ndetse ahandi hakaba handikishijweho n'ibyuma by'ikoranabuhanga byandika.

Inzu ndende igizwe n'ibirahuri byijimye ndetse muri ibyo birahuri hakabamo bimwe bifunguye inyuma y'iyo nzu hakaba hagaragara ikirere gisa n'ubururu uruhande rumwe ndetse n'ikindi kirere kivanze ubururu n'umweru ku rundi ruhande imbere y'iyo nzu kandi hakaba hari ibiti ndetse n'indabyo.

Ibiganza ndetse n'intoki nini n'ibice bigufi by'abantu bigaragara ko bifashe amakarita y'ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli, buri karita ikaba iriho ifoto ya nyirayo ndetse n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba cy'inama kikaba kirimo abantu b'ingeri zitandukanye, umugabo uhagaze ufashe mikorofone ndetse yambaye n'ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, bisa n'aho ari gutanga ikiganiro; imbere hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko bari kuvugaho.

Urupapuro rusa ubururu ruriho intoki ziri kwandika kuri mudasobwa, hariho amagambo avuga ngo uburyo ki wakohereza ibintu kuri murandasi, ukoresheje mudasobwa.

Inteko y'abaturage benshi bateraniye ahantu hamwe ndetse n'abayobozi babo, umwe umuturage umwe akaba afashe ikarita ya mituweli ndetse bafata n'ifoto y'urwibutso hamwe n'umuyobozi we, inyuma hakaba hari ndetse ibiti bigaragara.

Inteko y'abaturage benshi batandukanye buri wese akaba afashe ikarita isa naho ari iy'ubwisungane mu kwivuza, ikaba iriho ifoto ya nyiri uyifashe ndetse abenshi bakaba ari abayisilamu kubera ko biteze ibitambaro.

Ikarita iri mu ibara ry'ubururu ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweruvuga ngo reba imisanzu yawe muri rswa ebyiri ndetse na ndetse kuri iriya karita hakaba hari ikirango kigaragaza ko ari ikigo cy'ubwishingizikaba handitseho rwanda

Ikarita yakoreshwaga hambere yo ubwisungane mu kwivuza mituweri, ikarita ikaba isa n'umuhondo ndetse iriho ifoto ya nyirayo inyuma y'iyo karita hakaba hagaragara igikuta k'inzu gisa n'ubururu ndetse y'icyo gikuta hakaba hagaragara agace gatoya k'intebe ibajwe mu giti.

Umuntu w'igitsina gore ufashe amakarita y'ubwisungane mu kwivuza mituweri ari mu mabara y'ubururu, ndetse ibirango by'iyo karita nagwa se amagambo yanditse kuri iyo karita akaba yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'ikirango k'ikigo cyatanze iyo karita kiri mu ibara ry'umukara mu magambo ahinnye ya ra na sa ebyiri na ba.

Abagore biganje ndetse n'umwana bameze nk'aho bicaye bategereje guhabwa icyo baje gushaka, muri abo bagore hakaba harimo abiteze ndetse inyuma yabo hakaba hari inzu yubakishijwe amatafari ifite inzugi ziteye irangi ry'umweru.

Ifoto y'urwibutso iri gufatwa n'abaturage bo mu ngeri zitandukanye, harimo abagore biganje cyane kurusha abagabo, abagabo babiri bafashe icyapa kigaragaza umuryango wabo bantu bateraniye hamwe ndetse inyuma yabo hakaba hari n'inzu ifite inkingi n'ibikuta bisize amabara y'umuhondo ndetse n'amadirisha abonerana.

Inzu ndende y'umuturirwa ndetse hasi ikaba hari imihanda irimo ibinyabiziga bitandukanye n'amatara yo ku mihanda n'ibiti, ndetse bikikije uwo muhanda hakurya y'iyo nzu hakaba hari amazu menshi bisa naho ari mu murwa hejuru hakaba hagaragara ikirere kirimo ibicu by'ubururu n'umweru bisa nk'aho nta mvura ikirere gifite.

Ikigo nderabuzima cya Remera. Biri mu mabara y'umukara, icyapa kiri mu mabara y'umweru, inkingi ziri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru. Mo imbere hari umuryango winjira muri icyo kigo nderabuzima, ndetse n'abantu hafi aho bamwe bicaye ku ntebe abandi bahagaze, ndetse n'ibikoresho by'isuku birimo indobo, ndetse n'igiti bakoropesha.

Isoko baguriramo ibiribwa, muri iryo soko hakaba harimo imifuka ya kawunga ndetse n'imiceri, hakaba harimo ndetse n'abaguzi n'abacuruzi barimo kugura ibyo biribwa abandi banabigurisha, muri ibyo biribwa bikaba bifunze mu mifuka y'umweru ndetse n'umuhondo.

Isoko ryisumbuye iguriro ry'ibiribwa harimo umuhungu wambaye umupira w'umweru n'utubara tw'umutuku n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara. Imbere ye hari imbuto harimo amacunga ndetse n'inyanya.

Aho bagurishiriza ibintu bitandukanye mu iduka. Umugabo muremure wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, umukobwa urimo gucuruza wambaye umupira w'umuhondo, ufite imisatsi miremire ndetse n'ibicuruzwa birimo amacupa arimo amavuta yo kwisiga.